Imigati z'ubwoko bwose ziri mu tubase: sanduwici, amandazi na keke.

Igitoki, akabenzi, igitunguru, n'indimu bibaga byiza iyo ubiririye hamwe.

Inkoko n'ibirayi ku cyokezo, bibaga byiza byombi iyo umuntu abiriye.

Butike irimo parufe, umunzani, amasafuriya n'akadomoro karimo ji.

Igare ritwaye ibisheke byinshi, umunyonzi usunitse, umugore uhagaze iruhande yaryo.

Werikamu Kimaranzara resitora, umuryango ukinguye urimo irido, mu muryango imbere hari moto ebyiri.

Inzu y'imiryango ibiri，ifite inzugi zumukara，igaragaza ko ari iya iyateri.

Inzu yubakishije amakaro, imbere yayo hari kaburimbo, abagenzi bari kugenda batambuka.

Amagare gasigaye ari umukino gushimishije cyane, aho abanyarwanda twese dusigaye twishimira kuwureba nta n'umwe usigaye.

Ibikapu binini by'abagabo, iby'abagore, amasafuriya, indobo, amabase, amashuka ,imitaka.

Isoko ry'imyenda, inzu irimo n'amakaro harimo amapantaro, imisego, umugore wicaye.

Umugabo wicaye ku ntebe, akameza bashiragamo umutaka gwa emutiyene, umukozi ukoreraga emutiyeni.

Iduka, ibikapu by'abadamu, ingofero z'abagabo, abacuruzi, Umukobwa, umugabo.

Ibiduki, bote ziri hejuru, udukarito, imodoka y'umukara.

Iduka ry'imiryango myinshi cyane, riri ku muhanda wa kaburimbo imbere mu muhanda hari moto itwaye umugenzi.

Icyapa cyanditseho Hoteri gifite ibara ry'umweru kiri iruhande rw'indabo zitondetse ku muronko.

Korotire ikozemo amarangi y'umweru, umuryango ukinguye, mo imbere harimo amazu agiye afatanye menshi.

Icapa canditseho isabune yo gukoropa ikanirukana ibinyenzi, umuti wica imibu.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo iriho icyapa cya sikoro. Imbere y'iyo nzu hari umutaka wa emuteyene.

Alimantasiyo idufashaga kubona icyo dusamura, kuko mu gitondo akenshi ntabwo tubaga tumeze neza iyo nta kintu turashira mu nda.

Iyi ni inzu ya etaje, hanze hari moto, hakaba ingorofani, hakaba abantu.

Ambara uberwe! Abantu bambaye amakote, bashushanyije zeru karindwi umunani itanu karindwi ijana na mirongo irindwi na gatatu gatandatu.

Mu rugo niheza cyane. Tuhakorera ibintu byinshi cyane harimo guteka, gufura, kuryama, igihe tubonye abashyitsi tukabakirira mu rugo.

Umunyonzi utwaye umuzigo ku igare, umugore uri imbere y'inzu irimo imizigo, agatebe, umunzani.

Inzoga z'ibyuma, amavuta ya sante, akaji ka novida, fanta.

Inzu yubakishije amakaro hari; intebe, sipure zo bazinga zizitira rukaba uruzitiro.

Icyapa cyanditseho dekorasiyo bambikaga abageni, dukoraga indabo ,dufite impeta nziza, imodoka z'ubwenge, imodoka z'ubukwe.

Iduka rinini imbere yaryo hari amamatera, abaturage ,igiti kirekire cyane kirisumba.

Inzu irimo imashini zidodaga ibikapu n'inkweto, inyuma yayo hari imibyare y'insina.

Umucuruzi ari imbere y'umuryango aho apakiraga matera azigerekeranyije kugira ngo ziticana.

Imiryango ibiri zikinguye, imbere harimo abasore babiri bari kuri mashine undi muryango gurimo ka etajeri intebe ya sheze.

Arimantasiyo umuryango wayo urakinguye. Imbere yawo, hariho imodoka eshatu. Hejuru hariho icyapa cyanditseho arimantasiyo.

Gombwa fashiyo shopu. Amakote, amapantaro, amajipo, imipira y'amatisheti, umugabo wambaye ikoti.

Ikarito yanditseho meru, hejuru yayo hariho isabune bakataguye, hakaba icupa ryanditseho supurayiti.

Amarangi g'ubwoko bwose. Hari agari mu madomoro hakaba agari mu bikombe, bidufasha gusukura amazu gacu kugira ngo gabonere.

Inzu iri ku muhanda, ifite porutaye, izitijwe n'indabo, ikaba imbere yayo hariyo ipoto.

Inzu y'ubucuruzi igizwe n'imiryango itanu, imiryango ibiri nizo zifunguye, imbere y' umuryango gwa kabiri hateretse utugaze tw'ibiro bitandatu.

Inzu iri ku muhanda yubatse nk'iy'ubucuruzi, imbere hari imodoka y'umweru, hari ibitanda, hari umugore uhagaze uri gucuruza.

Inzu iri ku ku muhanda, yubakishije amakaro, ifite imiryango itatu umwe nigo gufunguwe.

Uru ni uruganda rw'inzoga za amsteri zimwe zikundwaga cyane n'abatari bake mu Rwanda rwacu.

Ibitanda bibaga byiza ;babishiragaho matera bakabiryamaho bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza.

Umugore yikoreye urukweto, afite irondoni mu ntoki, imyenda ya caguwa, iruhande rwe hari moto.

Butike ibagamo inzoga hanze hari igitoki， intebe n'ibihaza.

Butike iri mo ibintu bitandukanye. Amavuta ya sante, moviti, ravita na fanta yo mu gacupa.

Matola zijaga ziraba nziza，tuziryamagaho tugasinzira neza， mbere ntabwo twasinziraga neza tukiryama ku birago.

Butike irimo ibintu bigiye bitandukanye, imbere yayo hakaba amashiga ya gaze idufasha guteka bitworoheye.

Isaka ririmo ibitunguru biri ku mifuka, inyanya ziri ku mifuka, ibitunguru biri hasi abagenzi bari mu mitaka.

Ikimasike bambitse umukenyero, ufite ibodi ya goruje, tiruwari n'ibisabo bibiri.

Umugore wambaye ipantaro n' umupira g'umweru, iruhande rwe hari umugabo wicaye, ashize terefone ku matwi.

Inzu ifite imiryango itatu yose irakinguye umuryango wo hagati imbere yawo hari gaze.

Imisego zo bashiraga mu ntebe, ariko ntago bari bazishiraho imyenda zayo, zirambitse ku mucyeka.

Bodaboda ziri ku ihema, umugore uri gucuruza wicaye ku gatebe yitwikiye umutaka, umugore wicaye iruhande na we uri gucuruza bodaboda.

Isoko ryibikoresho ribaga ryiza, kuko ibyo dukeneye nka balo, ibikapu byose ni ho tubisanga.

Inzu z'ubucuruzi zidufashaga kubona ibicuruzwa bibaga bigiye bitandukanye kuko momo na yo idufasha kubikuza mbere y'uko tugura.

Butike irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye:"Indobo, imyuko, amasafuriya, imbabura, amabase n'ibikapu by'abagore n'ibishora by'abagore.

Igipangu kirimo inzu nini hanze ya porutaye hari umuntu wunamye iruhande rwe hari indabo.

Amazu umumotari ahahagaze mugihe atari yabona umugenzi, abagenzi kubabona ntago biba byoroshye biba bisaba gutegereza.

Inzu y'ubucuruzi igizwe nimiryango ine, amamashini adodaga imyenda, udukapu abanyeshuri batwaragamo amakaye.

Korali y'abapene baririmbiraga Imana kugira ngo babeho neza. Harimo abagabo n'abagore biba byiza cyane.

Abakozi bakoraga muri banki ofukigali ya Musanze, turabashimiraga muri abantu beza cane.

Icyapa kinini cyanditseho" jyibi", iruhande hariho porutaye, mo imbere hakaba indabo zifite uturabo.

Igare, umutaka wa emutiyene, umu ajenti adufasha kubona amafaranga bitworoheye bitatugoye.

Umusore yicaye ku ntebe ziri mu mutaka handitseho henikeni, aricaye.

Imipira, amajipo, imyenda izinze iri mu mashashi. Umukobwa wicaye yambaye agapfukamunwa.

Imyeyo dukubuza imbuga, zibaga myiza kuko zidahari ntabwo twabona icyo twifashisha mu gukora amasuku.

Isoko ry'imyenda ya caguwa, ni myiza, iba ikomeye cyane, ugereranije n'indi myenda ya magaze. Ni yo dukunda kugura.

Butike irimo amaji g'ubwoko bwose, amavuta ,amafanta amata, n'amaji g'abana.

Isoko ririmo amakariso, ameza, ibimasike byambaye imyenda, imisego, abagenzi.

Umwembe ni zimwe mu mbuto dukunda gukoresha zituma dukomeza kugira ubuzima bwiza kugira ngo tubeho neza.

Imbabura itumaga tubona uko duteka dukoresheje mo amakara. Isafuriya itumaga tubona icyo dutekera mo.

Agasoko k'ibiribwa， imifuka y'ibirayi teretse， harimo abagore bicaye ku dutebe， harimo n'abagore bari konsa.

Gombo, Pavuro y'umuhondo itukura, biri mubase itukura, umuntu uhagaze.

Inkweto za magaze, imyenda, bote, mwamini, amarido , ikarito zirimo inkweto.

Isoko ry'avoka n'ibitoki bakamagamo urwaga rubaga ruryoshye cyane ruba ari umwimerere.

Isoko, imbuto, ibihaza, umugenti, abagore bari gucuruza.

Ibihumyo, imiteja, amajeri, pavuro, amavuta go kurya, tungurusumu, izitotoye n'izidatotoye.

Inzu irimo imyenda z'abana, udushuka two gufubika abana, amasume yo guhekamo abana.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ibitunguru bidufashaga gukaranga amavuta tukabishiramo bigatuma ibiryo biryoha.

Inzu irimo imashini idoda imyenda, urudodo, biswi za rihamu, ji yasana, biswi za mariya, urusenda.

Indobo zirimo inanasi zibaga nziza cyane，zitumaga umuntu ayirya akagira amazi mu mubiri.

Ibikoresho twifashisha mu gikoni harimo uturushe, amapanu, inkoko, agasekuro dusekuriramo ubunyobwa, agasahani ko kuriraho.

Indimu, karoti, shufureri, urusenda, amagi, intoryi, pavuro na kokombre.

Umucaca, ibirago bya biniga, abagore bahagaze impande hari ibiti, inka, amazu.

Isoko ricururizwamo ibikapu by'abamama n'abakobwa. Biba ari byiza cyane kuko bituma umuntu agaragara neza.

Inyanya zitukuye nini nziza cyane, abagore bari gucurza, umugabo uhagaze mu muryango.

Ibase ntoya irimo intoryi, inini irimo intoryi izifunze ku mifungo, inyanya zitukura abagore bari gucuruza.

Isoko ry'ibitunguru tubyifashishaga mu guteka kugira ngo biryoshe ifunguro tuba twateguye guteka.

Igikarito kirimo amavuta ga sante, ag'inka, itara riteretse ku rukuta.

Isoko ry'imyenda itandukanye ridufashaga kubona aho tugurira imyambaro kugira ngo twambare tuberwe bitatugoye.